Umwana mutoya wambaye ishati isa icyatsi uri koga intoki mu mazi y'umugezi, iruhande rwe hari ingunguru isa ubururu, inyuma ye hari ibiti.

Abantu bishyize hamwe hanze mu busitani, bari gukoma amashyi bambaye imyenda isa bishimiye igikorwa cyabahuje cyo gusukura umudugudu wabo.

Umugore wicaye hasi afashe umwana muto mu gituza ke. Umwana afite igitambaro cy'igitenge asa n'uri kurira cyangwa uri gukina n'ibiganza bye. Hafi yabo hari undi mwana wicaye wambaye umupira w'icyatsi usa n'ureba hirya.

Umuganga w'umugore wambaye ishati y'umweru w'inzobere mu by'imvune ari gufasha umurwayi wavunitse kubasha kugenda ku cyuma cyabugenewe.

Abantu bambaye imyenda ya pinki bari gutanga impano, harimo ibikoresho by'isuku ku bagore n'abakobwa. Hari abana bicaye imbere basa n'abari gukurikira ibiganiro, hari n'abafotora ibibera aho.

Imiti myinshi ipanze hamwe. yo kwa muganga. Imwe isa ubururu, indi isa umuhondo, indi isa umweru, imwe iri mu ishashi, indi iri mu udukarito, indi iri mu dukombe.